Inzu nini cyane ifite amabara menshi cyane atandukanye, iriho icyapa kinini cyane gisa ibara ry'umuhondo gishushanyijeho inyuguti nyinshi cyane, zifite ibara ry'umukara ndetse n'imibare yanditse mu ibara ry'umukara kiriho n'ikinyabiziga.

Imyenda myinshi cyane itandukanye, harimo imigufiya ndetse n'imiremire, harimo imanitse ndetse n'iteretse hasi, isa amabara menshi cyane atandukanye.

Umuntu ufite uruhu rwirabura, wambaye imyenda ifite amabara atandukanye, uhagaze mu cyumba gifite igikuta kimanitseho ibintu byinshi cyane bitandukanye ndetse giteretsemo imeza n'akabati k'ibirahure karimo ibintu byinshi cyane bitandukanye.

Ahantu hari igikuta gisize ibara ry'umweru hateretse akabati karekare cyane, kamanitsemo imyenda myinshi cyane kandi itandukanye, ifite amabara menshi cyane atandukanye.

Iduka rinini cyane rifite ibikuta bisize amabara yerurutse ndetse birimo utubati twinshi cyane tumanitsemo ibintu byinshi cyane bitandukanye.

Icyumba kinini cyane, gifite inzugi zirimo ibirahure ndetse gifite ibikuta biriho ibintu byinshi cyane kandi bitandukanye ndetse giteretsemo imeza iteretseho ibintu byinshi cyane bitandukanye.

Igikuta kinini cyane gifite ibara ry'umweru, kimanitseho ibintu byinshi cyane bitandukanye, birimo imyenda ifite amabara menshi cyane atandukanye ndetse n'inkweto zifite amabara menshi cyane n'ibikapu ndetse hamanitse n'ikirahure cyo kwireberamo.

Icyumba kinini cyane gitereretsemo akabati gasa ibara ry'umutuku ndetse karimo ibirahure, imbere yako hari imyenda myinshi cyane imanitse ku byuma byinshi bitandukanye.

Imbuga nini cyane ihagazemo abagabo babiri bafite uruhu rwirabura, ndetse bafite urufunguzo runini mu ntoki, inyuma yabo hari imodoka ebyiri zisa ndetse n'inzu nini cyane.

Ibinyabiziga byinshi cyane kandi bitandukanye biri ahantu hasakajwe amabati menshi cyane asa ibara ry'umutuku ndetse ariho icyapa kinini cyane gisa ibara ry'umweru kiriho ikirango ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu.

Amafaranga y'ibyuma ari mu bwoko bw'ibiceri ateretse ahantu hasa umweru yanditseho amagambo menshi cyane kandi atandukanye ndetse ariho ibirango byinshi cyane bitandukanye.

Uducupa twinshi cyane kandi dutandukanye dufite amabara menshi cyane kandi atandukanye, harimo uducuramye ndetse n'udutereretse dufite amabara y'umweru ndetse n'amabara y'umuhondo.

Ikusanyirizo ry'amata, riri mu nzu ifite ibikuta biriho ibara ry'umweru, ndetse n'amadirishya riteretsemo ikintu kinini cyane, gisa nk'ibyuma gipfundikiye.

Ikusanyirizo ry'amata rifite idirishya ririmo ibirahure, ndetse riteretsemo igikoresho cy'ikoranabuhanga gisize ibara ry'umweru, ndetse gicometseho ibindi bintu byinshi cyane bitandukanye.

Uburyo bw'ikoranabuhanga butandukanye kandi bwizewe, abantu bakoresha mu gihe bakeneye kwishyura, cyangwa se kugura ibintu byinshi cyane bitandukanye, bakishyura bakoresheje ikoranabuhanga.

Uburyo bwizewe kandi bwihuse bw'ikoranabuhanga bwifashishwa n'abantu mu gihe bagiye kohererezanya amafaranga batavuye aho bari ndetse bakayohereza ku bantu bari kure.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho, ndetse bwizewe abantu bakoresha, kugira ngo bishyure amafaranga y'ibintu baba batumije, ndetse baguriye ku mbuga nkoranyambaga, bakoresheje uburyo bwinshi cyane butandukanye bwo kwishyura.

Uburyo bukorewe mu bikoresho bikoresha ikoranabuhanga bwereka abantu amafaranga ndetse n'ibintu byose ayo mafaranga yakoreshejwemo hifashishijwe inyandiko.

Ishusho isa ibara ry'umweru iri muri mudasobwa, yanditseho inyuguti nyinshi cyane zisa umukara ndetse n'imibare myinshi cyane isa umukara iriho ibirango byinshi kandi bitandukanye.

Ishusho nini cyane iri mu ibara ry'umweru yanditsweho inyuguti zisa umukara, ndetse n'imibare myinshi cyane iri mu'ibara ry'umukara, ndetse iriho ibirango bibiri bitandukanye.

Urupapuro ruri muri mudasobwa rwanditseho inyuguti nyinshi cyane ndetse n'imibare myinshi cyane biri mw'ibara ry'umukara ruriho ibirango byinshi cyane bitandukanye bifite amabara atandukanye.

Umuntu ufite uruhu rwirabura mu ntoki ze ufitemo amafaranga menshi cyane, ashushanyijeho ibintu byinshi cyane bitandukanye ndetse hasi hateretse igikoresho cy'ikoranabuhanga.

Umuntu ufite uruhu rwirabura mu ntoki ze ufitemo amafaranga menshi cyane afite amabara atandukanye arimo ay'ubururu ndetse n'ay'umutuku ashushanyijeho ibintu byinshi cyane.

Icyumba kinini cyane gifite inzugi ndetse n'amadirishya gihagazemo abantu benshi cyane kandi batandukanye, harimo abahagaze ndetse n'abicaye. Inyuma yabo hari ibyapa byinshi cyane ndetse hagati yabo hakaba hari imeza.

Inzu nini cyane isize ibara ry'umweru, ifite inzugi ndetse n'amadirishya birimo ibirahure, imbere yayo hateretse intebe ndetse n'imeza, bisa ibara ry'umutuku.

Icyumba gifite ibikuta bisize ibara ry'umweru, giteretsemo ibikoresho byinshi cyane kandi bitandukanye, birimo intebe imeza ndetse n'ibindi byinshi cyane bitandukanye, bikozwe mu bikoresho by'imbaho ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Inzu nini cyane ifite ibara ry'umweru ifite idirishya ndetse iriho urugi imbere yayo hateretse ibintu byinshi cyane bitandukanye birimo intebe ndetse n'imeza bifite ibara ry'umutuku.

Icyumba kinini cyane, kiri kwakamo itara, gifite ibikuta ndetse no hejuru hasize ibara ry'umweru, giteretsemo utubati tubiri ndetse n'intebe zitandukanye.

Icyumba kinini cyane giteretsemo intebe ebyiri zitandukanye zifite ibara ry'icyatsi ndetse ziteretsemo imisego, iruhande rwazo hari utumeza dutoya.

Icyumba gifite ibikuta bisize ibara ry'umweru, giteretsemo ibikoresho byinshi cyane bitandukanye bikozwe mu mbaho ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye birimo imeza, intebe, ndetse n'ibitanda.

Inzu nini cyane ifite amabara menshi cyane atandukanye munsi yayo hicaye abantu, imbere yayo hakaba hari amazi menshi cyane afite ibara ry'ubururu ndetse hakikijwe n'ibiti byinshi cyane kandi birebire.

Inzu nini cyane kandi ndende irimo amatara menshi cyane yaka umuhondo ndetse ifite ibirahure byinshi cyane kandi binini imbere yayo hari ibimera byinshi cyane kandi bitandukanye.

Inzu nini cyane kandi ndende, isize ibara ry'umweru, ifite amadirishya ndetse n'inzugi, imbere yayo hari intebe ndetse n'imitaka myinshi cyane, iri iruhande rw'amazi menshi cyane.

Inzu nini cyane ifite imiryango myinshi cyane irimo ibirahure ndetse imbere yayo hateretse imeza nyinshi ndetse n'intebe zifite amabara menshi cyane atandukanye.

Icyumba kinini cyane gisa ibara ry'umweru, kimanitsemo amafoto menshi cyane, ndetse giteretsemo intebe nyinshi cyane, n'imeza ziteretseho ibikoresho by'ikoranabuhanga, ndetse hicaye umuntu.

Abantu benshi cyane batandukanye, harimo abafite uruhu rwirabura ndetse n'undi ufite uruhu rwera, bambaye imyenda myinshi cyane itandukanye, bari imbere y'inzu ifite amabara atandukanye.

Icyumba kinini cyane gihagazemo abantu benshi cyane kandi batandukanye, barimo abagore ndetse n'abagabo bambaye imyenda myinshi cyane itandukanye ndetse bambaye n'udupfukamunwa.

Inzu nini cyane isize amabara atandukanye ifite imiryango, imbere y'ayo hari icyapa kinini cyane gisa ibara ry'umweru cyanditseho inyuguti ndetse n'imibare iri mu ibara ry'umukara ndetse kiriho ibirango.

Abantu benshi cyane kandi batandukanye, bafite uruhu rwirabura, harimo abagore ndetse n'abagabo bambaye imyenda myinshi cyane itandukanye, bafite ibintu bitandukanye mu ntoki zabo bahagaze imbere y'inzu ifite umuryango ndetse n'idirishya.

Icyumba kinini cyane kirimo ibintu byinshi cyane bitandukanye, birimo ibimanitse ku gikuta, ndetse n'imeza ifite amabara abiri y'umweru ndetse n'umukara, ndetse giteretsemo intebe zisa umweru.

Abantu benshi cyane kandi batandukanye, bafite uruhu rwirabura, barimo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyenda myinshi cyane itandukanye, bari ahantu hari ibintu byinshi cyane bitandukanye, birimo ibiribwa ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ibintu byinshi cyane bitandukanye bifite amabara atandukanye, birimo imyenda ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane bitandukanye, birimo ibimanitse ku gikuta ndetse n'ibitereretse hasi.

Isoko rinini cyane rimanitsemo amatara menshi cyane ndetse riteretsemo ibicuruzwa byinshi cyane bitandukanye bifite amabara menshi cyane atandukanye ndetse hari n'ibiri ku meza.

Isoko rinini cyane ryicayemo ndetse rihagazemo abantu benshi cyane kandi batandukanye ririmo ibicuruzwa byinshi cyane kandi bitandukanye biteretse ku ma meza birimo imbuto ndetse n'imboga.

Akabati kanini cyane gateretsemo ibintu byinshi cyane kandi bitandukanye, bifite amabara menshi cyane kandi atandukanye ndetse n'imeza iteretseho ibindi bintu byinshi cyane bitandukanye.

Abantu batandukanye bahagaze ahantu hamanitse ibicuruzwa byinshi cyane kandi bitandukanye bifite amabara menshi cyane atandukanye ndetse hari n'ibindi biteretse hasi n'ibiteretse ku meza.

Inzu nini cyane irimo amatara y'umweru, irimo abantu benshi cyane batandukanye, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, ndetse imanitsemo ibicuruzwa byinshi cyane bitandukanye.

Imbuga nini cyane irimo abantu benshi cyane kandi batandukanye ndetse irimo imifuka irambitse hasi, iteretseho ibicuruzwa byinshi cyane bitandukanye ndetse n'ibindi biri ku mameza.

Abantu benshi cyane bambaye imyenda itandukanye, bari ahantu hari imyenda myinshi cyane, harimo imanitse ndetse n'indi iteretse hasi, n'indi iri mu bintu byinshi cyane ifunzemo.

Abantu benshi cyane kandi batandukanye, barimo abagore ndetse n'abagabo, bicaye ndetse hari n'abahagaze ahantu hari ibicuruzwa byinshi cyane kandi bitandukanye, byiganjemo ibyo kurya biri ahantu hatwikirije amabati menshi cyane.

Abantu benshi cyane kandi batandukanye bafite uruhu rwirabura bambaye imyenda ndetse n'inkweto bifite amabara menshi cyane atandukanye, bari iruhande rw'icyapa kinini cyane gifite amabara atandukanye.

Umuntu ufite uruhu rwirabura wicaye ku kinyabiziga wambaye imyenda myinshi cyane itandukanye ndetse ifite amabara menshi cyane atandukanye inyuma ye hari abantu benshi cyane batandukanye.

Imeza nini cyane isa ibara rya kake, iteretseho ibikoresho bibiri by'ikoranabuhanga ndetse n'ururabyo rusa umutuku ndetse n'icyatsi, iteretseho ibipapuro byinshi cyane biteretse bihagaze birimo amabara y'umuhondo ndetse n'umweru.

Abantu batatu batandukanye, bafite uruhu rwirabura, bambaye imyenda myinshi cyane itandukanye, inyuma yabo hari abandi bantu benshi cyane bahagaze ndetse hari n'amahema asa ibara ry'ubururu.

Uburyo bw'ikoranabuhanga abantu bazanye ndetse bukoreshwa n'abantu kugira ngo batumize ndetse bake ibintu byinshi cyane bitandukanye bashaka bari mu rugo batavuye aho bari.

Icyumba kinini cyane kirimo ibara ry'umweru, gifite inzugi ndetse gifite ibikuta bimanitseho ibintu byinshi cyane bitandukanye, giteretsemo intebe zisa umweru, ndetse n'imeza y'ikirahure.

Inzu nini cyane kandi ndende isize amabara menshi cyane atandukanye, ifite inzugi ndetse n'amadirishya birimo ibirahure, ifite igipangu gisa umukara ndetse n'igikuta.

Icyumba kinini cyane gifite umuryango, ndetse n'ibikuta birebire bisize ibara ry'umweru, giteretsemo imeza ifite amabara menshi cyane atandukanye.

Inzu nini cyane kandi ndende, ifite amadirishya ndetse n'inzugi zirimo ibirahure, isize amabara menshi cyane atandukanye, ndetse imbere yayo hateye ibimera byinshi cyane bitandukanye.

Inzu nini cyane kandi ndende, isize amabara menshi cyane atandukanye, ifite inzugi ndetse n'amadirishya birimo ibirahure, ifite igipangu ndetse n'igikuta cyubakishijwe amatafari.

Inzu nini cyane isize amabara atandukanye, ifite inzugi ndetse n'amadirishya birimo ibirahure, ifite amabati manini cyane asa ibara ry'umutuku.

Abantu benshi cyane bahagaze, harimo abafite uruhu rwirabura ndetse n'abafite uruhu rwera, bambaye imyenda myinshi cyane kandi itandukanye, ifite amabara atandukanye, bari ahantu hamanitse ndetse hateretse ibintu byinshi cyane bitandukanye.

Umuntu uhagaze ndetse n'undi wicaye bambaye imyenda itandukanye bari imbere ndetse n'iruhande y'ibicuruzwa byinshi cyane hari n'ibyo kurya ndetse n'ibindi bitandukanye.

Icyumba kinini cyane kirimo kwakamo amatara menshi cyane, gihagazemo abantu benshi cyane batandukanye bambaye imyenda myinshi cyane itandukanye, ndetse giteretsemo ibintu byinshi cyane bitandukanye.

Inzu ifite inzugi ziriho ibishushanyo byinshi cyane ndetse mo imbere irimo abantu benshi cyane kandi batandukanye, bambaye imyenda myinshi cyane itandukanye, ifite amabara menshi cyane atandukanye.

Inzu nini cyane yicayemo abantu batandukanye ndetse irimo n'abandi bahagaze iteretsemo utubati twinshi cyane turimo ibintu byinshi cyane bitandukanye bifite amabara atandukanye.

Ahantu hanini cyane, hari umuntu uhahagaze, wambaye imyenda ifite amabara atandukanye, uri gushyira ibintu mu gikapu afite, uhagaze imbere y'akabati karimo ibintu byinshi cyane.

Umuntu ufite uruhu rwirabura mu ntoki ze ufitemo igipapuro gitoya gisa ibara ry'icyatsi kiriho amagambo menshi cyane ndetse n'inyuguti zisa ibara ry'umukara ndetse kiriho n'ikirango.

Icyumba kinini cyane giteretsemo utubati dutandukanye turimo ibintu byinshi cyane bitandukanye ndetse cyicayemo abantu benshi cyane batandukanye, imbere y'abo hari imeza iteretseho ibintu bitandukanye.

Umuntu ufite umubiri wirabura, mu ntoki ze ufitemo ibipapuro by'ubururu, byanditsweho mu nyuguti z'umukara ndetse n'imibare y'umukara ndetse ziriho ikirango.

Abantu benshi cyane kandi batandukanye barimo abakuru ndetse n'abana bafite uruhu rwirabura, bambaye imyenda myinshi cyane itandukanye, bicaye bafite impapuro nyinshi zitandukanye mu ntoki zabo.

Icyumba kinini cyane kirimo akabati karimo impapuro nyinshi cyane ndetse cyicayemo abantu babiri bafite uruhu rwirabura, bafite imeza iteretseho ibintu byinshi cyane bitandukanye.

Umuntu ufite uruhu rwirabura wambaye umwenda usa ibara ry'umuhondo, ufite igipapuro mu ntoki gifite ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo menshi cyane ari mu nyuguti zisa umukara ndetse hariho n'ibirango bibiri bitandukanye.

Icyumba kinini cyane kirimo ibyapa byinshi cyane bitandukanye, biriho inyuguti zitandukanye ndetse kirimo imeza n'utubati biteretsemo ibintu byinshi cyane bitandukanye.

Akabati kanini cyane gateretse hasi, karimo ibintu byinshi cyane bitandukanye, bigiye biri ahantu hatandukanye, bifite amabara menshi cyane atandukanye.

Abantu benshi cyane kandi batandukanye bafite uruhu rwirabura, bahagaze ahantu hagati y'utubati twinshi kandi turetrure duteretsemo ibicuruzwa byinshi cyane kandi bitandukanye.

Akabati kanini cyane gasa ibara ry'umweru, gatereretsemo ibintu byinshi cyane kandi bitandukanye bifite amabara menshi cyane kandi atandukanye, biteretse ahantu henshi hatandukanye.

Icyumba kinini cyane kirimo amatara y'umweru ndetse gisize ibara ry'umweru, gihagazemo abantu benshi cyane batandukanye, bambaye imyenda myinshi cyane itandukanye ndetse kirimo utubati twinshi cyane turimo ibintu byinshi cyane bitandukanye.

Inzu isize ibara ry'umweru, irimo ibyapa by'umutuku byinshi cyane bimanitsemo, ndetse iteretsemo utubati twinshi cyane duteretsemo ibintu byinshi cyane bifite amabara atandukanye, ndetse hateretse n'igikoresho cy'ikoranabuhanga.